Iyo wakoze neza uhabwa igikombe nk'umuntu wakoze neza, ukagihabwa n'umuyobozi, urugero nka polisi iha umuturage igikombe cy'uko yitwaye neza, bityo iyo ufite imyitwarire myiza ukundwa n'abayobozi.

Iyo hagize inkongi y'umuriro ifata nk'inzu, twitabaza ba kizimyamoto bakaza bakatuzimiriza ,n'ingenzi kugira ahantu hahuriweho n'abantu benshi habe hari ikizimyamoto ,kugira ngo nihafatwa n'inkongi y'umuriro bahite bayizimya mu buryo bworoshe.

Inaha mu Rwanda tugiraga abashinzwe umutekano, baturindiraga umutekano, harimo abasirikare, hakabamo abapolisi, abasirikare bajaga ku rugamba kugira ngo batsinde umwanzi, maze twebwe turi mu Rwanda tukabaho neza, tukarushaho kwiteza imbere, kubera ko tubaga dufite umutekano uhagije.

Abapolisi bo mu muhanda batumaga hatabaho impanuka za hato na hato, kuko abatwaye ibinyabiziga batinya ko babandikira bagakurikiza amabwiriza bityo, ntihabeho impanuka za hato na hato, abaturage bakarushaho kugira ubuzima bwiza kuko badakora impanuka ngo zibavutse ubuzima.

Mu buryo bwo gucunga umutekano, leta yashyizeho inzego zitandukanye. Urugero nk'abacungagereza barinda imfungwa, abapolisi bakarinda abaturage n'ibintu byabo, bityo ku buryo buri muturage aba afite icyizere cy'umutekano.

Iyo igihugu cyateye imbere gishira feruje mu muhanda, bityo abanyamaguru n'abatwaye ibinyabiziga ntibahurire mu muhanda bakaba bakora impanuka kubera ko baba bafite feruje igenda ibayobora.

Abapolisi baducungiraga umutekano w'ibintu n'abantu, bityo iyo dufite abapolisi tuba tuzi neza ko dufite umutekano, kandi bafungaga n'abakoze amakosa, bakazavamo baragororotse.

Iyo wambara agapfukamunwa bituma utanduza mugenzi wawe ibicurane. Cyangwa izindi ndwara kuko bigufasha kwirinda, ukarinda na mugenzi wawe. Urugero: nk'igihe kovidi yari yaraje mu Rwanda, buri muturage yashishikarizwaga kwambara agapfukamunwa. Kuko byatumaga tutanduzanya hagati yacu.

Inaha iwacu abayobozi baturemeshaga inama bakiga kubazo by'abaturage. Iyo barangije kumva ibibazo by'abaturage barabikemuraga, abaturage bagataha banyuzwe bakarushaho kubaho neza biteza imbere.

Mu buryo bwo kubahiriza amabwiriza ya Leta, abaturage baja mu nama bagakurikiza amabwiriza bahawe na Leta, bityo umuturage ntakore ikosa azi neza y'uko ari amakosa.

Iyo leta ifite ubutumwa ishaka kugeza ku baturage, bahamagara abantu bakaja mu nama, bakababwira ibyabateza imbere bityo bikarushaho guhuza abaturage n'abayobozi.

Iyo leta ifite icyo ishaka kubwira abaturage, yoherezaga abayobozi bakaremesha inama, ikababwira ibyo leta yabatumye. Bityo bikarushaho gukurikiza amategeko y'Igihugu, ikurikiza n'amabwiriza yahawe na leta.

Umuturage mwiza ni umuturage urakurikiza ibyo abayobozi bamutegetse. Niba ari ukuja mu nama akajayo, aba ari ukuja mu muganda akajyayo, bigatuma adahutazwa kuko abakurikiza ibyo amategeko amutegetse.

Intore zituma twishima kuko tuba tureba iyo ziri kubyina, kandi nazo zigakorera amafaranga azifasha kwiteza imbere, bakaguramo ibyo kurya mu mafaranga baba babahaye bityo bakiteza imbere.

Ino aha iwacu, tujaga mu muryango gw'ingobyi, iyo twarwaye atujanaga kwa muganga badutwaye mu ngobyi, abagabo bane nibo bafataga imijishi, bakadutwara tukaja kwivuza, bakaduha imiti tugakira tukabaho neza.

Mu muco gwacu gwa kinyagwanda abagore, bambaraga imikenyero, abagabo bakambara amakositimu. Kandi bagacuranga imiduri, tukarushaho kubaho mu buzima bwiza twiteza imbere.

Umuco wo gukemura ibibazo by'abaturage, abunzi baca imanza buri ruhande bakarubogamiraho. Iyo barebye ibibazo abaturage bafite barushaho kubikemura, umuturage akagenda anyuzwe kuko baba bamukemuriye ibibazo.

Mu muco w'abanyarwanda wa kera bubakishaga inzu, bakazubakisha ibyatsi cyane cyane nk'aho umwami yabaga, bubakaga ibwami, bakahubakisha ibyatsi, bityo akaba ariyo umwami atura.

Ububaji buturuka mu biti dutera, habamo isekuro, intebe nyarwanda, n'umuvure, n'imisekuzo bityo iyo twabibajije bakaduha amafaranga tuguramo ibyo kurya.

Abanyarwanda babohaga uduseke two gusuramo bagenzi babo bakagenda batwikoreye bashizemo imyaka: ibishyimbo, amasaka, ibigori, n'ibindi byinshi baba bashiriye bagenzi babo koko ari wo muco wabo.

Mu muco go hambere intore zabyinaga zambaye amayogi, zambaye imikanda, zifite icumu n'ingabo. Iyo zibyinnye bazihaga amafaranga zikiteza imbere, zikaguriramo umuryango wayo ibibatunga, barushaho kubaho neza.

Mu muco wo hambere twakoraga ibintu byinshi byo mu mirimo y'amaboko bitandukanye, twabazaga amasekuru, tukabaza inzuho, tukabaza ibyansi, tukaboha imisambi, tukakora n'ingoma, bityo tukarushaho kwiteza imbere, kuko twabaga twabyikoreye ntitwirirwe turaja kubigura mu isoko.

Mu buryo bwo guteza imbere umuco gakondo, abanyarwanda bafata ibiti bakabazamo indosho baruza ibiryo bakajya kuzigurisha, bakabonamo amafaranga bagatangira abana ku ishuri.

Mu muco nyarwanda, haza mo kubyina nk'uko baba barashinze itorero, iyo washinze itorero, bituma ukorera amafaranga wagiye kubyina mu kirori cyangwa mu bukwe, bityo umuturage w'umubyinnyi akarusha ho kwiteza imbere.

Mu muco gakondo hazamo gukora imirimo y'amaboko, baja baboha ibirago, bakitoza kuboha inkoko n'intara, bityo abanyarwanda niwo muco wo hambere wa kera.

Inaha iwacu dushingaga amatorero yo kubyina. Tujaga kubyina mu birori, tukaja kubyina mu bukwe. Iyo twagiyeyo baduhaga amafaranga bakagurira abandi n'amakayi, tukajana abana ku ishuri, tukarushaho kwiteza imbere kuko tubaga twabonye amafaranga.

Mu muco gakondo habonekamo intore, ababyinnyi iyo bagiye kubyinira mu birori babona amafaranga, bakiteza imbere bakibeshaho, bagatanga mituweli bagahaha bakabaho neza.

Mu buryo bwo kwiteza imbere, ujya uraboha udutebo, intebe bicaraho. Iyo uziboshye bakaguha amafaranga utanga mituweli, ukishyuriramo abana ishuri, ukagura n'ibindi bikoresho ukeneye, ukiteza imbere.

Inaha iwacu twengaga inzoga mu bitoki ziraryohaga cyane cyane. Iyo zahiye tuzijanaga ku isoko bakaduha amafaranga, tukagaguramo ibyokurya. Tugatangira abana ku ishuri tukishura na mituweri, tukiteza imbere.

Umugeni wa hambere bamujanaga mu ngobyi bajanye n'inzoga ,barebaga abasore b'ibigango akaba aribo bamutwara mu ngobyi bakamujanira umugabo bityo bakabaha inkwano bakiteza imbere baguramo imirima.

Inaha iwacu ingobyi zidufashaga kujana abarwayi kwa muganga, kubera ko tuba twaragiye mu ntuza mu muryango, iyo umurwayi yarwaye yarembye bamujanaga kwa muganga bamutwaye mu ngobyi, abagabo nibo bamujanaga kubera ko ari bo bagomba guheka.

Intore zikoreraga amafaranga menshi cane，kubera ko iyo zagiye mu bukwe cyangwa mu birori zirabyinaga， zigashimisha abantu bakazihemba amafaranga， bakayaguramo ibikoresho baba bakeneye， bakajana abana ku ishuri， bakaguramo n'imyenda yo kwambara bityo bakiteza imbere.

Iyo ufite inka ikamwaga, uguraga ibyansi byo kuja uranyweramo amata kandi iyo ufite inka iri gukamwa, uyajanaga ku isoko ukaguha amafaranga ukiteza imbere.

Urubyiruko rw'inaha rwitezaga imbere kuko rushingaga itorero bakaja barabyina, bakaja kubyinira mu birori, bakaja kubyinira no mu bukwe, bakabaha amafaranga, bakaguramo ibindi bikoresho byo bakeneye, bakiteza imbere.

Ibikoresho byifashishwa mu kwenga inzoga. Harimo nk'umuvure, na twa duti bapfukamaho bakamura igikatsi, n'uducuma banywesha urwagwa. Iyo ubifite ushobora gutangira bizinesi yo kwenga urwagwa .Bityo ukabona amafaranga bitakugoye, ukarushaho gutunga umuryango wawe neza.

Mu buryo bwo kwiteza imbere, abaturage babaza imihini bashira mu isuka yo guhingisha, bakaboha ingobyi, ingobyi batwaramo abarwayi babajanye kwa muganga. Bakaboha ibitebo, ibitebo babikoresha bajanye imyaka ku isoko namba bayisaruriramo, bityo iyo babonyemo amafaranga barushaho kwiteza imbere, ntibicwe n'inzara.

Mu muco wa kinyarwanda dukama amata tukayashyira mu byansi, tukanywera mu byansi, tukayacundira mu bisabo kugira ngo amata avemo abe ameze neza, bagakuramo n'amavuta yo kwisiga n'ayo guteka.

Ino aha iwacu duhingaga ibitoki, iyo byeze turabisaruraga, tukabitara, tukabikamamo inzoga turi gukoresha umuvure, iyo inzoga yahiye turayinywaga, tukayijana mu isoko tukayicuruza bakaduha amafaranga, tukaguriramo abana ibyo kurya.

Mu muco wo hambere, abanyarwanda bubakaga amazu g'ibyatsi habagamo umwami. Abanyarwanda bajaga ku mwami bakamujanira inzoga, bakamujanira n'ibyo kurya, umwami akabayobora neza babagaho bakundanaga cyane kuko iyo umwe yengaga inzoga yatumagaho undi bakazisangira bityo bagakomeza kubana neza mu mahoro.

Mu muco gakondo habonekamo kubaza imirishyo bavugisha ingoma. Bagakora ingoma iyo bazikoze bakazigura babonamo amafaranga, bakarushaho kwiteza imbere.

Mu muco wo hambere abagabo babyinaga intore, babyinaga bafashe ingabo, babyinaga bafashe icumu, bambaye n'amayogi, bakaja kubyina mu bukwe bakabaha amafaranga, bakaja kubyina no mu kirori bakabaha amafaranga bakiteza imbere, bakaguriramo umuryango wabo ibibatunga.

Mu muco nyarwanda abahungu babyinaga intore babaga bafashe ingabo, bafashe n'icumu ,bambaye n'amayogi ,bambaye n'umugara. Iyo babyinnye abazungu bazaga kubareba bakabasigira amafaranga bakaguramo ibikoresho by'abana byo kujana ku ishuri, bagatanga na mituweli bakivana mu bukene.

Iyo ufite umwuga uzi gukora neza ukubeshaho. Nk'urugero iyo uzi kubumba imbabura urazibumba bakaguha amafaranga, ukayatanga mu mashuri y'abana, ukishyura mituweli, ukarushaho kwitunga uhahamo ibyo kurya, ukibeshaho.

Ubworozi bw'inka bituma tubona umusaruro, tukabona amata akomoka ku nka, bityo twabigaburira abana bakarushaho kugira ubuzima bwiza. Tugomba gukomeza kuzororera mu biraro kuri ariyo mategeko duhabwa na Leta.

Iyo uzi kuboha ibyibo witezaga imbere kuko iyo wabiboshye urabigurishaga bakaguha amafaranga. Ukiteza imbere ugatanga mituweri, ukayishyura n'abana ku ishuri, ukabaguriramo n'ibikoresho bityo ukabaho mu buzima bwiza.

Mu muco wo hambere, abanyarwanda bajaga basangira niba ari ikigage bagasuka mu kibindi bagashiramo imiheha, maze buri wese akagenda asomaho asomaho agenda asomaho kugeza igihe bahagiye.

Mu muco gakondo intore zajaga kubyina ku mwami, umwami yazitumagaho zikaja ku kumubyinira zabaga zambaye amayogi, zifashe n'icumu, zifashe n'ingabo, zikabyina zigashimisha umwami nuko akaziha ibiryo, akazigabira n'inka, zikabaho neza.

Mu buryo bwo kwiteza imbere tujaga gucukura ibumba tukaribumbamo amatafari, tukaribumbamo amategura tuyasakazaga inzu kugira ngo tubone aho tuba tukanayagurisha bakaduha amafaranga tukayajana ku isoko, tukaguriramo abana ibyo kurya tugatanga na mituweri tukivana mu bukene.

Mu muco gakondo, tubonamo intore zibyina zifashe ingabo n'icumu n'amayogi. Ubwo rero iyo bakurikije amuco, ibyongibyo hambere nibyo bajaga bakoresha.

Mu muco gakondo, intore zibyinisha amayogi kugira ngo amayogi ajane n'ijana kuko iyo abantu babireba babibyina neza, barushaho kubakundwa bityo bakaba babonamo amafaranga abateza imbere kuko biba byakunzwe n'abantu.

Iyo ukeneye gufunga cyangwa gufungura nk'iserire ukoresha turunovisi, ufungura cyangwa ufunga, bityo bikarusha ho koroherezwa mu buryo bwo gufunga no gufungura.

Leta y'u Rwanda itwubakiraga ibikorwaremezo, yubakaga amashuri igakora imihanda, ikatuzanira amashanyarazi, ikaduteza imbere twivana mu bukene, tugatanga na mituweri tukagira ubuzima bwiza.

Mu bikorwa remezo leta itw ubakira insengero, nk'abaturage bakishyira hamwe bakubaka urusengero bagendaga basengera mo, iyo wagiye gusenga uhura n'umuvandimwe wawe, mukaganira kandi mukiyambaza Imana.

Leta y'u Rwanda ishyiraho ibihano by'abakosheje. Iyo wakosheje namba ugacuruza ibitemewe n'amategeko, bakujyana kugufunga muri gereza bakakugorora, ugataha waragororotse. Ukajya wubahiriza amabwiriza ya Leta n'amategeko.

Leta idufasha kubaka ibikorwa remezo, ikatwubakira amashuri, imihanda, amavuriro, ikarushaho guteza imbere umuturage kuko iyo yubaka ibyo byose itanga akazi, umuturage akabonamo amafaranga amuteza imbere.

Iyo turi ku ishuri dukinaga imipira itandukanye, dukinaga umupira gw'amaguru, tugakina n'umupira gw'amaboko. Iyo batsinze ikigo kirabahembaga kikabaha amafaranga tukaguramo amavuta yo kwisiga tukaguramo n'amakaye n'amakaramu.

Leta y'u Rwanda idufasha kwiteza imbere, itwubakira ibikorwa remezo urugero nk'umuriro w'amashanyarazi, iyo iduhaye umuriro w'amashanyarazi abana biga nimugoroba, kubera ko haba hari urumuri rubona, kandi tugakora indi mirimo itandukanye ikoreshwa n'amashanyarazi, tukarushaho kwiteza imbere tubaho neza.

Mu buryo bwo guteza imbere igihugu leta yubaka amazu meza agezweho nka etaje agashyiramo jalide ku buryo ba mukerarugendo bazaza bakurikiye ibyiza bitatse u Rwanda.

Mu buryo bwo leta ikoresha iteza imbere umuturage, ibubakira ibikorwa remezo nko kububakira amacumbi yo kubamo abatishoboye, bityo igatanga akazi abaturage bagakoramo, bakabonamo amafaranga abafasha kwiteza imbere.

Ingamba leta yashizeho, yashyizeho ingamba zo gufunga insengero zitujuje ibisabwa, ubu urusengero rukora, ni urugomba kuba rufite, aho imodoka zigomba guparika, kandi ari urusengero ,rwubatse neza rukomeye.

Mu buryo bwo kwiteza imbere, umuturage ahinga ibirayi, agahinga ibigori ,akarushaho kwiteza imbere kandi iyo yabijyanye ku isoko abonamo amafaranga. Ibigori akabishesha akanwamo igikoma, bityo akarushaho kugira ubuzima bwiza.

Ubu uburezi bwageze kuri bose, ku buryo umunyeshuri ajya ku ishuri, ababyeyi bakamurihira ishuri, bityo bakazarushaho kwigirira akamaro biteza imbere, kubera ko baba barahawe ubumenyi babikomora ku barimu babigisha.

Leta y'u Rwanda ifashaga abaturage ibubakira amazu ikabubakira uturima tw'igikoni, kugira ngo bahingemo imboga bazarya, bakagaburira abana indyo yuzuye kugira ngo batarwara bwaki.

Leta y'u Rwanda iduhahaga akazi kugira ngo twiteze imbere twivana mu bukene. Baduha akazi nk'ubu bari kubaka amashuri, ugakorayo ikiyede cyangwa igifundi baduha amafaranga tukagaguramo ibyo kurya tukiteza imbere.

Leta y'u rwanda idufashaga kwiteza imbere idukoreraraga imihanda ikatwubakira ibiraro tukarushaho gukora ingendo tuje gushaka ibidutunga duhingaga n'ibiti iyo biku turabitemaga tukabitwitamo amakara tukabigurisha bakaduha amafaranga bakadufasha kwiteza imbere.

Iyo usengaga Imana ikurindaga guhura n'ibibazo. Kuko uba wayisenze wayiyambaje ikwerekaga ibiri imbere yawe, bityo kuja mu rusengero bituma wizera kandi ukarushaho kubaho neza.

Abaturage tugomba kuja tujya gusenga, kuko iyo usenze uba wiragije Imana. Iyo ugiye mu kiliziya wenda wari ufite uburwayi, utaha wakize kubera ko uba wagiye kuganira n'Imana.

Tujaga ku ishuri kugira ngo twiyungure ubumenyi, tujagayo tukiga gukoresha mashini, iyo twamenye kuyikoresha, tujaga gushinga Irembo, tugafotorera abantu indangagamuntu, tukabafotorera n'ibipapuro by'imirima, bakaduha amafaranga, tukiteza imbere dutanga mituweli, tukishurira n'abana amashuri, tukanayahahamo ibyo kurya, tukarushaho kubaho neza.

Kwiga umwuga bidufashag kubaho neza. Tujya gushaka akazi bakaduha amafaranga tukiteza imbere dutanga mituweli, tukishyurira abana ku ishuri tukabonamo n'ibyo kurya.

Inyubako ya kiliziya itumaga tujya gusenga, tukiha lmana, tukiringira Imana kuko tuba twasenze. Imana nayo ibana natwe, bityo tukarushaho gukurikiza amategeko ya kiliziya n'ay'igihugu, kubera ko tuba twigishijwe uko tugomba kubigenza.

Leta y'u Rwanda idufasha kubaho neza itwubakira ibikorwa remezo, urugero nk'ikiraro cyo mu kirere gituma twambukiranya twambukiranya uturere iyo wenda harimo nk'ibyondo bagashyiramo ikiraro cyo hejuru bituma hakorerwa ubugenzuzi bwo kugenderaho na ba mukerarugendo bakaza baje kureba ibyo byiza bitatse u Rwanda.

Tujaga ku ishuri kugira ngo twiyungure ubumenyi. Batwigishaga uburenganzira bw'umwana, batwigishaga ko tugomba gufata neza abana, natwe tukumvira ababyeyi tukarushaho kubaho neza twiteza imbere. Iyo turangije kwiga tubonaga akazi bakaduha amafaranga tugatangiramo ababyeyi mituweri tukiteza imbere.

Iyo ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ujaga mu nama abayobozi bakagikemura cyangwa abaturage muba muri kumwe bakagikemura, ugataha nta kibazo ufite kuko uba wabiganirije bagenzi bawe.

Mu buryo bwo kubahiriza amategeko ashyirwaho n'igihugu, iyo umuturage atayubahirije, bamujana kumufunga, iyo bamufunze baramugorora, akazataha yaragororotse, ku buryo azajya akora ibyerekeranye n'amategeko.

Mu buryo bwo gukemura ibibazo by'abaturage, babatumaho bakabaremesha inama, iyo hari umuturage ufite ikibazo bagikemurira mu nteko rusange ihuzwa naba abaturage n'abayobozi, bakarushaho kubaho neza kuko ibibazo byabo baba babikemuye.

Inaha iwacu, abayobozi baturemeshaga inama tugatanga ibibazo dufite, tugatanga n'ibyifuzo. Iyo twagiye mu nteko rusange ibaga buri wa kabiri, abaturage bavugaga ibyifuzo bafite bagashakamo n'abakozi bazakora muri viyupi, bakabaha amafaranga bakiteza imbere.

Inaha iwacu tujaga mu nama ku wa kabiri, habaga inteko y'abaturage, abaturage bavugaga ibibazo byabo maze abayobozi bakabikemura, bakarushaho kwiteza imbere kuko ibibazo byacu babaga babikemuye, dutoranyaga n'abo bagomba guha inka ya Gira inka, maze bakarushaho kubaho mo buzima bwiza.

Inaha iwacu dukoraga ubuhinzi bureraga cane duhingaga inanasi, tugahinga wotameloni, tugahinga amaronji iyo byeze tubijyanaga ku isoko, tukaja kubigurisha bakaduha amafaranga tukishyuriramo abana n'amashuri tukarushaho kubaho neza.

Iyo wize amategeko g'umuhanda, ukabona perime bituma ubona akazi. Ujya gushaka akazi mu muhanda ugatwara moto. Urugero nk'abamotari bajaga mu muhanda bagatwara abagenzi bakabaha amafaranga bagahahira imiryango yabo, akabafasha no kwiteza imbere. Abatanga amakoperative bakabaha amafaranga atubutse bakayakoresha indi mirimo yo mu rugo.

Iyo abaturage bibumbiye mu makoperative, bituma babagirira icyizere bakaba babaha akazi, kuko baba bazi aho bazababariza, noneho iyo babahaye akazi, bakabonaga mo amafaranga, baka bakiteza imbere.

Uruja n'uruza rw'abantu bari muri gare bajaga gushakamo akazi, abandi bagacururizamo, abandi bagatwara abagenzi bakabaha amafaranga bakiteza imbere kubera ko iyo uri umushoferi ugatwara abagenzi baguhaga amafaranga, ukishurira abana ku ishuri ugatanga na mituweli.

Ubwato bwo mu kiyaga butworohereza urugendo, kuko iyo tugiye nko guhinga, cyangwa kujya mu isoko, tukambuka ikiyaga dukoresha ubwato bukadutwara, bityo nti dutinde mu nzira kuko tuba twateze ubwato.

Mu buryo bwo korosha ingendo, abantu bibumbira mu makoperative bakagura imodoka zitwara abagenzi. Iyo babonye abagenzi bakabatwara babaha amafaranga, ayo mafaranga bakayakoresha indi mishinga ibafasha kwiteza imbere, bakarihira n'abana babo mu mashuri.

Inzu z'ubucuruzi zitumaga tubona amafaranga, barazikodeshaga bakaduha amafaranga, tugacururizamo bikatwinjiriza amafaranga tukishurira abana ku ishuri bityo tukiteza imbere binyuze mu mazu tuba twubatse.

Ikiyaga kidufitiye akamaro kenshi cyane tugishyiramo ubwato tukambuka, tukogamo, tukavomamo amazi yo gukoresha mu rugo, tukarobamo amafi, amafi tukayarya, tukayajyana ku isoko bakaduha amafaranga tukiteza imbere.

Mu rwanda tugiragamo bisi zitwaraga abagenzi tujaga gushaka imodoka muri gare iyo tugiye gukora urugendo tuva mu karere twambukiranya kandi bigatuma tubona akazi tugatanga amafaranga ayo mafaranga bakuragamo n'imisoro bakayashira muri leta leta ikaguramo ibyo guteza imbere abaturage urugero nka girinka ibafashaga ko.

Iyo tugiye mu rugendo tujaga muri gare tukaja gushakayo imodoka, iyo tuzibonye zitugezaga ahantu tugiye, bityo bikatworohereza urugendo tukifasha kwiteza imbere, kuko tuba twabonye ibinyabiziga bihari ari ku bwinshi, ntibitume wirirwa mu nzira, ugakora gahunda zawe zihuse.

Urujya n'uruza rw'abantu bagiye mu isoko kuguramo imyenda inkweto n'ibindi byo kwambara. Hakabamo n'abagiye gushakamo akazi, nko kwikorera imizigo ukabaha amafaranga. Bityo iyo ugiye guhaha ibyo udafite biba byiza iyo ukibonye kuko ...

Urujya n'uruza rw'abaturage baremye isoko, hari ababa bagiye gushakamo akazi, bitwaje ibihirigito, amagare, kugira ngo nibabona akazi baze kubitwaraho, bakagenda babonamo amafaranga.

Urujya n'uruza rw'imodoka ziri muri gare harimo n'abamotari harimo n'abanyonzi batwaraga abantu bakabaha amafaranga akabafasha gutunga imiryango yabo bayitangiraga mituweli bayitangiraga n'amashuri bityo bakarushaho kubaho neza uko babaga babitayeho babonye akazi.

Mu buryo bwo guteza imbere umuturage, leta y'u Rwanda yubatse imihanda, kugira ngo abantu baje baraja gushaka akazi, abandi batware amagare babone amafaranga abafasha kwiteza imbere.

Mu buryo bwo gucungira umutekano abantu n'ibintu byabo, ubashira hamwe, ukabashira ku murongo, Noneho abapolisi bakabagenzura kuko nta muntu uturuka hirya ngo abe yabagirira nabi kuko baba bacungiwe umutekano.

Inaha iwacu mu Gwanda tugiraga amoko y'ibibuga atandukanye: Tugiraga ibibuga bakiniragamo umupira, tugiraga ibibuga bibagamo indege, abazungu bazaga mu Gwanda n'abandi baturajye banyarwanda bakaja mu mahanga y'abazungu baje badusigiraga amafaranga tukiteza imbere.

Inahiwacu tugiraga imodoka zitandukanye aho imodoka zitwaraga peteroli, imodoka zitwaraga ibiryo byo kurya, hari imodoka zitwaraga nk'ibifumbire cyangwa amabuye bityo iyo twabikoresheje tubona umusaruro uruta uko twari twikoreza umutwe.

Ino aha iwacu tujaga muri gare kuja gushakamo imodoka zidutwara iyo tugiye gushaka akazi ,ziradutwaraga tukabaha amafaranga iyo zitugejejeyo turushagaho kwiteza imbere dukoraga akazi n'uko tugataha dufite amafaranga, tukaguriramo abana n'amakayi tukabahahiramo n'ibyo kurya.

Ububyo twifashisha twambuka amazi harimo:koga ,hakazamo gutwara ubwato, iyo mu kiyaga harimo ubwato, bworoherezwa abaturage kugenda gukora ingendo hagati yabo, bambuka namba ba bagaruka iwabo bityo bigatuma imibereho yabo iba myiza.

Akamaro ko kuja kurema isoko bituma ujya gushaka ibyo utari ufite ,nibari imboga ukazihaha, niba ari ibijumba ujanye ujanyeyo bakabigura, iyo babiguze bakaguha amafaranga uyahahamo ibyo utari ufite.

Urujya n'uruza rw'abantu baba bagiye gushaka imodoka ngo zibatware. Dusangamo harimo imodoka tukayabaha amafaranga bakadutwara. Iyo badutwaye tuba tugiye gushaka akazi kadufasha kwibeshaho, n'abamotari baba bari aho. Iyo tubahaye amafaranga bayakoresha indi mirimo, bityo bakaguma kubaho neza natwe tukabaho neza.

Urujya n'uruza rw'abaturage bari muri gare bamwe baba bagiye gushaka akazi, abandi bari gukoreramo ubucuruzi. Iyo bashatse akazi bajya kwiteza imbere bagatanga mituweli, bakishyurira abana amashuri kuberako baba bagiye mu duce dutandukanye bashakamo ibibatunga.

Ino aha iwacu, tujaga kugura ibinombe bicukuramo amabuye, tukagura ibinombe bacukuragamo umucanga, iyo twagize umucanga mwinshi turawugurishaga abantu bagiye kubaka bakaduha amafaranga, tukaguramo ibindi byo kurya tukiteza imbere tukishurira n'abana amashuri.

Dukoraga siporo, tugatwara amagare, tukaja mu marushanwa. Iyo utsinze baguhaga amafaranga ukiteza imbere. Habagaho n'amamodoka gabaga gari kugenda mu muhanda, tugendagamo neza kugira tudakora impanuka.

Inaha iwacu tugiraga imikino itandukanye, dushingaga ikipe tukaja gukina n'andi makipe. Iyo tuyatsinze baduhaga amafaranga tukiteza imbere, tuguragamo ibikoresho by'abana byo kujana ku ishuri tukaguramo ibyo kurya, tukarushaho kubaho neza.

Iyo ukoze siporo ituma amagufa yawe akomera kandi ukagira ubuzima bwiza, kuko iyo ufite ubuzima bwiza ubasha gukora nta kiguteganyije, ku buryo udahura n'indwara zatuma udakora imirimo yawe.

Iyo uzi gutwara igare ukaja muri turudirwanda, baguhaga amafaranga ukaguramo ibyo ukeneye nk'imyambaro cyangwa igare ukarikoresha ugashaka amafaranga ukarushaho kwiteza imbere kandi wakoze na siporo.

Inaha iwacu dukinaga imikino itandukanye, dukinaga vole, tugakina umupira w'amaguru. Iyo twatsinze baduhaga amafaranga tukiteza imbere tukaguramo amakayi tukaguramo n'inkweto zo kujana ku ishuri tukarushaho kwiga tumeze neza.

Ino aha iwacu dukinaga imipira itandukanye, dukinaga umupira gw'amaguru tugakina umupira gw'amaboko, iyo twatsinze baduhaga amafaranga tukikura mu bukene, tugahahamo ibyo kurya tukabaho neza tugatanga na mituweli.

Inaha iwacu dukoraga siporo dukora izo kwiruka, tugakora izo gukina umupira. Iyo twagiye mu marushanwa baduhaga amafaranga, tukaguramo ibikoresho dukeneye, tukiteza imbere, tukajana abana ku ishuri bakarushaho kubaho mubuzima bwiza.

Inaha iwacu habaga imikino itandukanye， hari umukino wo gukinisha umupira w'amaguru， hari umukino wo gukinisha umupira w'amaboko，iyo twatsinze baduhaga amafaranga， tukayajana kuyahahisha mu isoko， tukayajana ku ishuri，bityo tukarushaho kwiteza imbere.

Inaha iwacu tugiraga ibibuga bitandukanye, ibibuga byo gukiniramo nk'umupira w'amaguru n'ibibuga byo gukinira vole. Iyo twagiye kureba umupira dutaha twishimye bitewe n'ikipe turi gufana iyo yatsinze, noneho tukishima tukabona n'amafaranga. Iyo hari amakipe ari gukina atwinjirizaga amafaranga.

Siporo ngororamubiri ituma amagufa akomera, iyo umuntu akina voleboro nangwa futuboro bituma agira ubuzima bwiza, bityo tugomba gushishikariza abaturage gukora siporo.

Uburyo bwo kwiteza imbere hari ugukina imikino itandukanye: imikino y'amaboko, imikino y'amaguru y'imipira siporo ngororamubiri harimo gutwara igare ,ubwo rero iyo wabikoze gutyo ,baguha amafaranga ,amafaranga akagufasha kwiteza imbere.

Uburyo bwo kuzamura imibereho myiza y'abaturage, abana baja ku ishuri bakunguka ubumenyi ,ubwo bumenyi nibwo bubafasha kubaho neza bakurikiza ibyo mwarimu yabigishashije.

Inaha iwacu siporo idutezaga imbere cane kuko iyo tugiye gukina baduhaga amafaranga, tubaga turi gukina n'andi makipe. Iyo dutsinze aduhaga amafaranga tukiteza imbere, tuguragamo ibyo kurya tukajana abana ku ishuri bityo tukarushaho kwiteza imbere.

Iyo ushaka kuzabaho neza ujaga ku ishuri ukakungura ubumenyi ukazarushaho kwiteza imbere ugakora akazi ukabona amafaranga agutunga akagutungira n'umuryango kuba warakurikiranye amasomo yawe neza ukarushaho kubaho neza.

Inaha iwacu dushingaga amakipe yo gukina, dukinaga imikino itandukanye, dukinaga umupira gw'amaguru, tugakina n'umupira gw'amaboko, iyo twatsinze baduhaga amafaranga tukiteza imbere, tukaguramo ibyo kurya, tugatangira n'abana ku ishuri, tukarushaho kubaho neza.

Inaha iwacu habaga amarushanwa yo kuyiruka dukoraga na siporo, iyo twagiye mu marushanwa yo kwiruka baduhaga amafaranga tukiteza imbere, tuguraragamo amakayi tukaguramo ibyo kurya, tukaguramo n'inkweto zo kujana ku ishuri, tukaguramo n'imyenda zo ku ijana ku ishuri nuko tukabaho neza.

Biba byiza iyo uteguye ibihembo byo guhemba abatsinze. Urugero, nk'iyo hari amakipe ari gukina agatsinda, bayahaga ibikombe. Ibikombe biba bifite ibisobanuro byinshi cyane. Hari nabo baha imidari. Iyo baguhaye igikombe, baba baguye n'amafaranga agufasha kwiteza imbere ukabaho neza.

Inaha iwacu gukina umupira biduhaga umusaruro mwinshi cyane, kuko iyo twagiye gukinira ikipe baduhaga amafaranga, bakaduha ibyo kurya, bityo tukarushaho kwiteza imbere kuko baduhaye amafaranga tuguragamo ibindi byo dukeneye.

Siporo ituma amagufwa akomera, igatuma tubonamo amafaranga, urugero: nko gukina umupira, iyo ukinnye umupira baguha amafaranga, agufasha kwiteza imbere bagakuramo ibindi bikoresho, ukeneye ukarushaho kubaho neza.

Inaha iwacu mu rwanda habagamo imikino itandukanye hari imikino yo gukinisha umupira w'amaguru, hari umukino wo gukinisha umupira w'amaboko, iyo twayikinnye baduhaga amafaranga tukayahahamo ibyo kurya, tukarushaho kwiteza imbere dutangira banyeshuri ku ishuri ,kuberako tuba twakoze siporo twagiye mu marushanwa bakaduha amafaranga tukishurira abana amashuri.

Siporo ngororamubiri itumaga amagufa akomera, kandi iyo twagiye muri siporo, urugero nko gukina umupira, ukaja mu marushanwa, baduhaga amafaranga, tukiteza imbere, tukaguramo amakaye yo kujana ku ishuri, tukishura n'amashuri, tukarushaho kubaho neza.

Mu rwanda dukinaga siporo turirukaga ,tugakina umupira bakaduha amafaranga tukaguramo amakayi yoku jana kwishuri, tukaguramo n'inkweto zo kwambara tukiteza imbere tukajya kwishuri neza kuko nta kibazo tubaga dufite.

Mu buryo bwo gukora siporo, bubaka ikibuga cy'umupira, aho bazaja bakinira vole. Iyo hari aho bateguye ho gukinira, umuturage cyangwa umunyeshuri aja kuhakinera, agakora siporo bityo akagira amagufa akomeye kuko aba yakoze siporo.

Mu Rwanda tugiraga imikino itandukanye, dukinaga umupira gw'amaguru tugakina n'umupira gw'amaboko, iyo twabikinnye baduhaga amafaranga tukiteza imbere tuguragamo inkweto zo kwambara, tukaguramo n'imyenda yo kwambara tukagira ubuzima bwiza dutanga na mituweli.

Mu Rwanda dukinaga imikino itandukanye kandi Leta idufashaga kwiteza imbere. Idushyiriragaho kagame kapu. Iyo twagiye muri ayo marushanwa tugatsinda, baduhaga amafaranga akadufasha kwiteza imbere. Tuguriragamo abana amakayi, tukabaguriramo n'inifomu zo kujana ku ishuri, bityo tukabaho neza kubera ko tubaga twabonye inyunganizi n'amafaranga baduhaye.

Mu buryo bwo gukora siporo ngororamubiri, hazamo nko gukina umupira, gukina vole; iyo wakoze iyo siporo urushaho kugira amagufa akomeye bityo akakurinda indwara za hato na hato.

Inaha iwacu siporo idutezaga imbere, iyo dukoze siporo tuba dukomeje amagufa yacu, kandi iyo twakoze siporo urugero nko kuja mu marushanwa, baduhaga amafaranga, tukagaguramo ibyo dukeneye, tukiteza imbere.

Mu buryo bwo guteza imbere siporo, bahamagarira abasore n'inkumi gukora imirimo y'amaboko, gukina nka siporo gukina nka volebolo, Futubolo bityo iyo bakinnye babonamo amafaranga akabateza imbere.

Inaha iwacu dukinaga imikino itandukanye. Dukinaga umupira w'amaguru, tugakina vole. Iyo twakinnye baduhaga amafaranga adufasha kwikura mu bukene, tugatanga mituweli, tukaguramo n'amatungo magufi. Iyo tuguze nk'inkoko ikaduha amagi turushaho kubaho mu buzima bwiza, bakaduha amafaranga tukiteza imbere.

Mu buryo bwo guteza imbere siporo leta yashyizeho uburyo bwo guhuza amakipe ,bagakina utsinze igikombe bakabubaha amafaranga, iyo babahaye amafaranga biteza imbere bakaguramo ibyo badafite bityo abaturage bakiteza imbere.

Amazu y'ubucuruzi atumaga tubona amafaranga, tukayajana guhahamo ibyo kurya, tukaguramo ibindi bikoresho dukeneye, dugatanga mituweri, tukishurira n'abana amashuri, bakabaho neza.

Ino aha iwacu Leta iduhaga akazi. Itujana muri viyupi tugakora imihanda tukubaka amatarasi bakaduha amafaranga, tukaguramo ibyo kurya, tukatangira abana ku ishuri, tukishyurana na mituweli.

Leta y'u Rwanda idushishikarizaga gutura mu mudugudu. Kubera ko tutahura n'ibiza, ariko iyo utuye mu musozi uhuraga n'ibiza bikagusenyera inzu ukabaho nabi, ukaba wahatakariza n'ubuzima, ariko iyo utuye mu mudugudu baguhaga umuhanda wo kugenderamo ukabaho neza.

Amazu y'ubucuruzi aduhaga amafaranga. turayakodeshaga Tukayacururizamo, kandi aratworohereza ingendo tujya gushaka ibindi mu isoko, ho haba hari amazu y'ubucuruzi ku muhanda atuma tubonamo ibyo dushaka guhaha. Urugero nk'ibirayi, ibijumba n'ibindi byo tuba dukeneye tutabanje kuja mu isoko, kubera ko ziba ziri hafi yo mu rugo.

Abaturage bitezaga imbere bubaka amazu yo kubamo, bakubaka amazu yo gukodesha bakabaha amafaranga, iyo babahaye amafaranga, bayaguragamo ibyo kurya, bakishyurira abana ku ishuri, bakiteza imbere bityo bakarushaho kubaho mu buzima bwiza.